Igishanga kigali gihinzemo umuceri. Harimo umuntu wambaye umupira w'ikaki, ndetse ateze agatambaro mu mutwe k'umutuku. Ari kugenda areba uko ibimera byifashe. Hakurya yaho hari umusozi uhinzeho ibiti binini ndetse naho bigaragara ko hari ubuhinzi.

Umugore wambaye ibitenge ndetse ateze n'ikindi mu mutwe byose bifite amabara amwe, ahagaze hagati mu murima w'ibigori, birimo kweza urwezerezwa hejuru ndetse hafi yaho hari imisozi iriho amashyamba.

Umurima mugari urimo abantu batatu, ndetse umwe yambaye imyenda y'imikara afite umupira ari kuvomerera, biragaragara ko ibimera bimaze gukura ni ibigori, kuko babiteye bagenda bahana imyanya.

Igishanga kinini giteyemo, ibimera bitandukanye, ndetse hari n'igice kidateyemo, kigaragara ko ibimera byaho byumye. Hirya yaho gato hari, umusozi muremure uteyeho ishyamba.

Inyubako irimo abantu bakeya ndetse harimo imashini zitandukanye, harimo imifuka myinshi itondetse, izamutse hejuru, bigaragara ko ari aho batunganyiriza sima.